Icyumba cy'ishuri kigamo abana b'incuke bambaye impuzankano zigiye zitandukanye, hari ababyeyi bafite amasahani ariho ibiryo, aho bagiye kwita kuri aba bana babagaburira ibiryo birimo indyo yuzuye.